Amabara aba agomba kugira ahandi hantu abantu baganirira hisanzuye. Aho usanga hari imitaka abantu bugamamo izuba, hakaba hari ameza abantu bariraho cyangwa baterekaho ibyo kunywa, hakaba hari n'intebe abantu bicaraho mu mabara kandi haba harimo n'ibyo kunywa.

Akabari iyo karimo abakozi bazi gutanga keya karagerwa cyane, kubera ko baba bazi kwakira abantu n'ibyishimo byinshi cyane, maze ba nyir'amabara bakabona abakiriya benshi, kubera ko baba bari kubaha keya maze bakazishimira gusubirayo.

Amabara arimo inzoga nyinshi cyane z'amawisiki, iyo abantu bagiye kunwa barasabana cyane, kubera ko iyo amabara arimo inzoga nyinshi zitandukanye, abantu batabura izo bashaka.

Iyo bitetse kinyarwanda ni byiza cyane kuberako biba bifite umwimerere wabyo. Ibitoki barabiteka barangiza bakabitonora, ababiriye baba bari kurya neza kubera ko byifitemo umwimerere.

Amabara afasha abantu benshi cyane, kubera ko bajya kuguriramo, cyangwa bakajya kunyweramo, cyangwa bakajya kuruhukiramo. Biba byiza iyo ayo mabara afite abantu bazi guteka neza, kubera ko abantu bahakunda cyane.

Amabare aragendwa cyane kuberako habamo ibintu byinshi bitandukanye umuntu aba agiye kureba. hari ababa bagiye kureba imipira, hari n'ababa bagiye gufata icyo kunywa n'icyo kurya bagiye no kuganira.

Bare ni nziza cyane kubera ko bazifashisha bari kujya kureba imipira, kandi iyo bari kureba iyo mipira, baba bafite icyo kunywa n'icyo kurya. Abantu bafite bare bagira inyungu nyinshi, kubera ko hagendwa maze bakiteza imbere.

Amabara aba meza cyane iyo afite bamucoma bazi gucoma neza bituma abantu bajyayo bakajya kuharira, maze ba nyir'amabara bakagira inyungu nyinshi bakarushaho kwiteza imbere.

Akabari karimo ibinyobwa byinshi binyuranye. Iyo abantu bacuruza ibinyobwa byinshi, abaje kubagurira bisangamo, bakanywa barangiza bakanarya.

Utubari dufite icyokezo turagendwa cyane ,kuberako abantu bakunda kurya bari no kunywa, iyo bari kurya bari no kunywa n'ibyo bibashimisha cyane.

Amazu afite ubusitani aba asa neza cyane kuberako abantu bikundira kwicara muri ubwo busitani ,aho baba bakeneye akayaga, maze bakaganira neza bibereye mu mahumbezi.

Utubari abantu baradukunda cyane， kubera ko iyo bagiyeyo，basangamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bimeze neza， kandi bitetse neza cyane. Utubari kandi badukoreramo imyidagaduro，kandi abantu bakatwifashisha bari kureba imipira.

Aba dj bafashaga abantu benshi cyane kubera ko baba bafite amafilimi ,maze abantu bakajya gufatishayo amafilimi, aba dj usanga bacuruza za fulashi ,na ja memoricadi ifasha nk'abantu kubika ibintu byabo, kandi bafite na materefoni, maze umuntu ushaka amaterefoni akajya kugurirayo.

Amabara yegereye kaburimbo aragendwa cyane kubera ko abantu bahita bahagera bitabagoye bagafata ibyo kurya, bagafata n'ibyo kunywa barangiza bagasubira mu mirimo yabo nta kibazo.

Abacuruzi bacuruza babona abakiriya benshi cyane, ibikapu babijyanamo amakaye ku ishuri bote bakazijyana mu murima, ibishora barabyifubika amapataro barayambara.

Abacuruzi bacuruza amacumbi yo kuraramo babona abakiriya benshi cyane, kubera ko abantu baza gukorera muri ibyo bice, maze bakajya aho ngaho kugira ngo babone aho barara.

Utubari muri iyi minsi turakunzwe cyane kubera ko mu tubari ariho abantu barebera imipira, mu tubari kandi habamo imikino y'imyidagaduro iyo umuntu yagiyemo arakina akaruhuka.

Iduka ririmo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye riba rimeze neza, iyo umuntu agiye muri iryo duka agurara ibintu byinshi, akahasiga amafaranga, maze umuntu uri gucuruza akunguka cyane kubera ko ibintu byose babisanga iwe.

Abacuruzi bacuruza ibyo kunywa byinshi bagira abakiriya, kubera ko umuntu ajyayo agiye kunywa icyayi cyangwa akajyayo agiye kunywa inzoga, umuntu ahitamo icyo ashaka kubera ko haba hari ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Butike zegereye imihanda zigira abakiriya benshi cyane, kubera ko bajya guhahira muri izo butike bagakomeza ingendo zabo, abacuruzi bacururiza muri izo butike na bo biraborohera kujya kurangura, kubera ko baba begereye kaburimbi.

Ubucuruzi ni bwiza cyane， kuko iyo umuntu abugiyemo abona inyungu nyinshi. Ifu y'igikoma n'isukari，babyifashisha bari guteka igikoma，biswi nazo bakazifashisha bari kuzirya. Abana bakunda biswi cyane，iyo umucuruzi azicuruje baramugurira akabona inyungu nyinshi. Ibibiriti nabyo babyifashisha bari gucana umuriro.

Igitsina gore gikunda imikufu cyane, kigakunda amaherena ndetse n'amavuta yo kwisiga. Umucuruzi iyo abifite, abona abakiriya benshi cyane, kubera ko igitsina gore kijya kumugurira.

Butiki zifasha abantu gucuruza maze bakiteza imbere. Abacuruzi kandi barahura bakungurana ibitekerezo, bakaganira ku bintu byinshi bitandukanye, aho bashobora kwibumbira mu makoperative maze bagakora imishinga bakiteza imbere.

Ibimaneke ni myiza cyane, kubera ko bifasha abacuruzi kwambikaho imyenda yabo, maze abantu bahanyuze bakabona iyo myenda, bakihutira kubagurira. Inkweto nazo zirakundwaga cyane kubera ko iyo umuntu amaze kugura iyo myenda ajya no kureba inkweto.

Hoteli ni nziza cyane kubera ko ikurura ba mukerarugendo, iyo bayigiyemo babona ibyo kurya bakabona n'ibyo kunywa, bakabona naho barara bakaryama bakaruhuka bugacya bagakomeza urugendo rwabo.

Ubucuruzi bw'imboga buragenda, kubera ko abantu bifashisha imboga mo ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakifashisha inyanya bari kurunga izo mboga, bakanatekesha igitunguru kugira ngo ibiryo byabo bihumure cyane.

Amabutike afasha abantu gucuruza neza, kubera ko ibicuruzwa byabo biba bimeze neza, bituma bitagerwaho n'imvura cyangwa n'ivumbi, bityo abaje kubigura, baza basanga bimeze neza kandi bifite isuku.

Amabutike ari ahantu hari akayaga barayakunda cyane, kuberako abantu bajyayo batari kwicwa n'izuba bakagenda bari mu mahumbezi. Abantu bacururiza muri ayo mabutike babona abakiriya benshi cyane, kuberako abantu benshi bahagenda cyane.

Ubucuruzi muri iyi minsi burakataje. Cyane cyane ubucuruzi bwa gaze, kubera ko abantu bakunda gaze muri iyi minsi. Gaze ni nziza cyane kubera ko zituma abantu batarwara indwara z'amaso. Umuntu umaze kugura gaze ajya guhaha ibyo guteka. Umuceri, amavuta agateka akarya.

Bare ni ingenzi cyane, kubera ko abantu baba bari gukora hafi aho，babona uko bajya kurya，bakarya vuba，barangiza bagasubira mu mirimo yabo，bitagommbereye ko bajya kurya mu ngo.

Amabutike atuma abantu biteza imbere cyane. Abafite amazu barayakodesha bakabona amafaranga, n'abacuruzi bayakodesheje bagacuruza, maze bagurisha ibicuruzwa byabo bakiteza imbere.

Amabutike aragendwa cyane, ariko biba byiza iyo aya mabutike acuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Abantu bajyayo bagiye gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, bikaba byiza cyane iyo hegereye umuhanda. Kubera ko abantu bahagera byihuse.

Abacuruzi bacuruza amapiyesi yo mu magare cyangwa aya moto bagira abakiriya benshi cyane, kuberako hari igihe umuntu aba atwaye maze ikinyabiziga cye kikagira ikibazo, bakihutira kujya kugura ipiyesi ryo kugisimbuza kugira ngo bakomeze ingendo zabo.

Iterambere ryaraje abantu babona aho barara iyo bwabiriyeho bakaruhuka neza, iyo bamaze kuruhuka batsimbura urugendo rwabo.

Amaduka nimeza cyane kubera ko abantu bayahahiramo. Ariko aho bacururiza ibiraha na ho haba ari heza, haragendwa cyane kubera ko abantu bakunda ibiraha n'amasambusa. Ababicuruza babona abakiriya benshi cyane.

Ubucuruzi butuma umuntu atera imbere kubera ko abantu bakenera ibyo kunywa n'ibyokurya, mu buzima bwabo bwa buri munsi ni yo mpamvu gucuruza byatanga umusaruro mwinshi.

Abajenti b'amabanki bafasha abantu benshi cyane, kubera ko bifasha abantu kubikuza amafaranga yabo batagiye gutonda imirongo ku mabanki, biba byiza iyo bacuruje n'amatelefone kubera ko umuntu ashobora kubikuza amafaranga, maze agahita agura na telefoni.

Amabutike acuruza ibintu aba meza cyane. Umuntu ajya guhaha imyenda yamara guhaha imyenda akabona inkweto ziberanye n'izo myenda maze akazigura.

Amabutike ni meza cyane. Kubera afasha abacuruzi gucuruza ibicuruzwa byabo neza. Amabutike atuma abacuruzi baticwa n'izuba cyangwa n'imvura ,bigatuma bacuruza bafite ubuzima bwiza.

Ibyo kunywa birakundwa cyane iyo umuntu abicuruje, abona abakiriya benshi. Amavuta yo guteka nayo barashaka kubera ko baba bashaka kugira ngo bateke ibiryo bimeze neza kandi n'amandazi barayakunda cyane kubeko aryoha.

Iyo umuntu acuruje ibintu byiza, abona abakiriya benshi, abantu benshi bakamugana, kubera ko babwirana ngo baje kugura kwa runaka. lmyenda n'inkweto babyifashisha bari kurimba, bari kwambara neza cyane ,ni yo mpamvu umucuruzi aba agomba gushaka ibintu byiza cyane, kugira ngo ajye abona abakiriya benshi.

Butiki ibamo ibikoresho byinshi binyuranye: aho habamo papiyejenike abantu bihanaguza, cyangwa hakabamo amazi abantu banywa. Iyo umuntu aje guhaha ashaka ibintu byinshi ,abona uko abihaha akabitwarira rimwe kandi agahahira ahantu hamwe.

Ubucuruzi bugezweho muri iyi minsi iyo umuntu ari gucuruza ibintu abantu bakunda cyane. Ibikapu babyifashisha bari kujya guhaha cyangwa bakabigurira abana bakabitwaramo amakayi ku ishuri. Intebe zigezweho nazo barazikunda muri iyi minsi kubera ko ziba zikoze neza cyane iyo umuntu azicayemo aricara akavimvira.

Inyama ni nziza cyane, ziraryoha kandi zigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, iyo yaziriye. Abacuruzi bacuruza inyama biteza imbere, kubera ko abakiriya babagana ari benshi, maze bakabaha amafaranga.

Abogoshi kabuhariwe babona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere binyuze mu kogosha abantu benshi. Abadozi nabo, iyo bazi kudoda neza babona abakiriya benshi cyane, kandi bakabateza imbere.

Amazu y'amazi afasha abantu benshi cyane kubera ko muri iyi minsi akunda kubura maze abantu bakajya kuvoma kumabayi ,amabayi arafasha cyane kubera ko atuma abantu babona amazi.

Ubucuruzi ni bwiza cyane kuberako bituma umuntu abona aho ajya guhahira bitamugoye, agahaha ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuberako amaduka acururizwamo ibintu byinshi bifasha umuntu mu mibereho ye ya buri munsi.

Amasitidiyo arakunzwe cyane muri iyi minsi kubera ko abantu bajya muri ayo masitidiyo bagiye kwifotoza, maze bikaba byiza cyane iyo bahise babaha amafoto yabo bakayatahana. Abantu bagira amasitidiyo bagira abakiriya benshi cyane kubera ko muri iyi minsi abantu basigaye bakunda kwifotoza.

Amacumbi afasha abantu benshi cyane kubera ko hari igihe umuntu ajya gukorera kure, maze akabura aho arara bigasaba ko ajya mu macumbi, agacumbika maze bwacya agakomeza akazi ke.

Abacuruzi bacuruza imyenda itandukanye babona abakiriya benshi cyane, kubera ko umuntu ajya kugura ipantaro agakenera n' agapira ko kuyambarisha. Iyo umuntu abifite byose baramuhahira, maze akabona amafaranga.

Intebe z'amadive zirakundwa cyane muri iyi minsi, aho usanga abantu bari kuzigura ku bwinshi. Abacuruzi bazicuruza babona abakiriya benshi, kandi bakabona inyungu nyinshi cyane, kubera ko bazigura cyane.

Amabutike afasha abacuruzi kubika imyaka yabo neza, bigatuma abaje kuyigura bayigura nta kibazo ifite, maze uwayiguze akaba yayirya cyangwa akajya kuyihinga, akabona umusaruro akiteza imbere.

Abagore na bo baritinyutse basigaye baracuruza. Bagacuruza ibintu byinshi binyuranye, aho bafata urugendo bakajyana ibicuruzwa byabo, maze babona amafaranga bakarushaho kwiteza imbere.

Ubucuruzi bwa telefone ni bwiza cyane. Iyo umuntu azicuruje azi no kuzikanika biba byiza. Abantu baramugana bakamuha amatelefone yabo akayakanika cyangwa bakajya kumucagingaho amatelefone yabo akajyamo umuriro.

Ibinyabiziga bifasha abantu benshi cyane kugenda, bagakora ingendo bihuse, ikinyabiziga gifasha umuntu kwirukanka ntatinde mu nzira bigatuma agera iyo ajya vuba.

Amahoteli agira abantu benshi cyane . Kubera ko amahoteli ajyamo abantu bagiye gukora inama ,hakajyamo abantu bagiye gukora ubukwe ,hakajyamo abantu bagiye gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakajyama abantu bagiye kuruhuka.

Amahoteri aragendwaga cyane, cyane cyane iyo bazi gutanga serivisi nziza. Abantu benshi barabagana, kubera ko baba bari kwishimira uburyo babakira, maze bigatuma ba nyiri amahoteri bagira abakiriya benshi cyane.

Amahoteli iyo ari ahantu heza cyane hari amahumbezi abantu bakunda kuyajyamo. Maze ba nyiri amahoteli bakabona abakiriya benshi cyane, bakarushaho kwiteza imbere.

Amahoteri afite ubusitani aragendwa cyane kubera ko abantu bakunda ubusitani. Ubusitani babukoresha bari kuganira cyangwa bakabukoresha bari mu birori, kugira ngo babone umuyaga mwiza uturutse muri ubwo busitani kandi kubera ko haba ari hanini abantu barisanzura cyane.

Amasoko nimeza cyane kubera ko ahuza abaguzi n'abagurisha. Amasoko afasha abantu gusabana bagahahirana abacuruzi bakabona inyungu n'abaguzi bakabona aho bahahira.

Iyo imbuto zitaweho neza cyane，zitanga umusaruro mwinshi，maze abantu bazihinze bakazijyana ku isoko， abacuruzi bakazirangura bakabaha amafaranga. Imbuto zirakunzwe cyane， niyo mpamvu baba bagomba kuzibungabunga no kuzikorera neza，kugira ngo zitange umusaruro.

Imihanda ifasha abantu kugenda bari kujya guhaha, amasoko na yo agafasha abantu kujya guhaha neza, ibigega ni byiza cyane umuntu afite ikigega mu rugo ntabwo abura amazi.

Amasoko ni meza cyane kubera ko abantu bayajyamo bagiye guhaha ibintu bizabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, amasoko abamo imboga abantu bajya guhaha bakaziteka bakarya. Abantu bacuruza izo mboga iyo babonye abakiriya babona inyungu.

Keke ziraryoha cyane，kandi zikundwa n’ingeri nyinshi. Abana barazikunda n’abantu bakuru barazikunda， abantu bacuruza amakeke bagira abakiriya benshi cyane， kubera ko bazigura kenshi.

Ibikoresho by'isuku bigira amafaranga menshi cyane, kubera ko isuku ikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amasabune bayakoresha bari koga, vimu bazikoresha bari gukuba amakaro, sitiruwaya bazikoresha bari gukuba amasafiriya, ibitubura babikoreshaga bari gukora amandazi, urusenda barukoresha bari kurya.

Isuku ni ryiza cyane kubera ko abantu baryifashisha bari kujya kugura imyenda, bakambara, bakarimba, bagasa neza, abacuruzi bacuruza iyo myenda babonaga inyungu bakiteza imbere.

Isoko ririmo ibicuruzwa binyuranye harimo amaronji, amarongi ni urubuto rwiza abantu bakunda, harimo inanasi, inanasi na zo ziratubukabuka ku bantu bazirya, harimo amasogisi abantu bambara.

Ibyuma by'ibicurano bigura make cyane. Udukonzo natwo bara tugira , abacuzi badukoresha bari gufunga inzugi . Amapata nayo bayakoresha bari gufunga inzugi.

Isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa byinshi, aho umuntu ashobora kujya guhaha ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kandi akabibonera ahantu hamwe atiriwe arajya mu maduka menshi cyane.

Isoko ryegereye umuhanda riragendwa cyane, kubera ko byorohera abaguzi guhita bajya mu isoko bagahaha, biba byiza kandi iyo iryo soko rifite ibigega kubera ko mu gihe cy'izuba abantu benshi bagura ibigega byo kubikamo amazi.

Amasahane barayakunda cyane, kubera ko abantu bajya kuyahaha kugira ngo bajye bayariraho, ibikombe na byo abantu barabikunda cyane kubera ko bajya kubigura ngo bajye babinywesha amazi cyangwa babinyweshe igikoma, ibiyiko n'amafurusheti babikoresha bari kurya ibiryo, icyuma nacyo bakabikoresha bari guhata ibirayi.

Amasoko afasha abantu kubona aho bahahira, imihanda ikabafasha kugera aho bahahira byihuse, abacuruzi bakabona inyungu ziba zavuye mu byo bacuruje.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibikapu abantu bajyana ku rugendo, rikabamo udukoresho bakoresha bari guhanagura amasahani, ririmo amaji abantu banywa, ririmo amafanta abantu banywan ririmo imbuto z'amoko anyuranye.

Ibitenge bikurura abakiriya cyane, cyane cyane igitsina gore. Igitsina gore gikunda kwambara ibitenge. Ni yo mpamvu abantu bacuruza ibitenge babona amafaranga menshi. Hari n'indi mitako bashyira ku bitenge iyo babidoze na byo bikurura abakiriya cyane maze umukiriya akishima cyane iyo bamudodeye neza, n'umucuruzi akabona amafaranga.

Ibiraha biraryoha cyane, muri iy'iminsi, abantu babikora babona amafaranga, kubera ko abantu babikunda cyane, bigura amafaranga makeya, niyo mpamvu abantu babikunda.

Isoko ririmo ibikapu binini n'ibitoya. Ibinini biba ari iby'abantu bakuru bifashisha bagiye ku rugendo baza bazamararamo iminsi, ibitoya nabyo babigurira abana bajya ku mashuri.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, harimo ibirahuri bakoresha bari gusukamo ji ibindi bakabikoresha bari kunywesha ji, hakabamo ibiyiko barisha n'amafoke barisha, amajage basukamo igikoma indobo basukamo amazi n'amabase bakarabiramo.

Isoko ry'imyenda ya caguwa ni ryiza cyane kubera ko akenshi imyenda ya caguwa ihenduka. Amakabutura bambara agagura make n'imipira y'imbeho bambara nayo igahenduka. Abacuruzi ba caguwa babona abakiriya benshi cyane kubera ko imyenda yabo ibaga ihendutse.

Ubucuruzi ni bwiza cyane，kubera ko iyo umuntu acuruje agira inyungu. Iyo umuntu acuruje amavuta baza kumugurira，kubera ko baba bashaka amavuta yo kwisiga，Iyo umuntu acuruje ifu y’igikoma，baraza bakamugurira， bagateka igikoma bakanywa，ubucuruzi rero buteza imbere abantu benshi.

Ibikoresho byo mu gikoni birakundwa cyane. Abantu babicuruza babona abakiriya benshi. Amasafuriya bayatekamo, amasiniya n'amasahani bakayariraho. Indobo zifata amazi, ibikombe bakabinyweramo.

Isoko ni ryiza cyane kuko ridufasha kugura ibikoresho byinshi bitandukanye harimo:amasafuririya yo gutekamo, imyenda yo kwambara ,amabase yo gukarabiramo ,amadobo yo gukarabiramo n'ayo kubikamo amazi ,abacuruzi bacuruza ibyo bikoresho babona abantu benshi babagana.

Isoko riba ririmo abantu benshi batandukanye, hari igihe abantu baba badaherukanye, bahurira mu isoko maze bakaganira bungurana ibitekerezo, isoko riba ririmo abacuruzi n'abaguzi, abaguzi bagurira abacuruzi maze abacuruzi bakabona inyungu.